Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, hari umugabo w'umuzungu uri hagati yabo, wambaye ikositimu y'umukara, yambaye na karuvati irimo uturongo, hari abagore bambaye amabaji mu ijosi, bambaye n'amataburiya y'ubururu.